Hargaragara abantu batatu abagore babiri ndetse n'umusore umwe , babiri bambaye imyenda ya airtel y'imituku iriho n'idrapo rya airtel, ndetse bose bafite telefoni mutoki basa nk'aho hari ibyo bari kurebamo.

Hari umu ajenti wa emutiyeni ahagaze mu ga kotwari ke akoreramo, asa nkaho ategereje abantu baza kubitsa, kubikuza, ndetse no kugura amayinite bisanzwe.

Hari inyubako iri kugaragara isa nk'aho yewe yitaruye ifite imbuga nini, ikaba yanditseho sako bigaragara y'uko ari inzu amashyirahamwe agenda abitsamo amafaranga.

Turabona abagabo bameze nk'aho baba muri koperative, baricaye basa nkaho bafite uwo bari gukurikirana uri imbere yabo, uri kubagezaho ijambo.

Icyapa cya burandi ya sikoro, sikoro akaba arimwe mu ruganda rwenga inzoga z'ibinyampeke, zisindisha ariko zitaba zifite vorute iri hejuru.

Abantu babiri. Bicaye ku dutebe tureture imbere ya kontwari, ndetse barasa naho baje kwifatira icyo kunywa gisanzwe, mu rwego rwo kwica icyaka.

Turabona ahantu hasa nk'aho ari muri hoteli cyane cyane ko hafi yaho hari pisine, ndetse haranitaruye cyane ubona rwose ko ari ahantu heza umuntu yasohokera.

Abantu benshi bari ahantu hasa nk'aho ari ku muhanda, ndetse hakorerwa ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye haba habera igura n'igurisha.

Ibigori byinshi by'amahundo bisa nk'aho ari abantu rwose bafite umwuga w'ubuhinzi dore ko harimo umwe wambaye igitambaro usa nk'aho bamutunze terefone kugira ngo agire icyo ababwira cyangwa se asangize abandi bantu.

Abacuruzi bo mu muhanda baragaragara rwose bari ahantu hari akajagari kenshi, batanditse inkweto, bisa nkaho buri wese aba akeneye abakiriya, ariko babikorera mu kavuyo.

Turabona abacuruzi bo ku muhanda basa nk'aho bicaye rwose imbere y'imbuto zabo zirimo amaronji bakaba bategereje abakiriya baza kubagurira ibicuruzwa byabo.

Turabona ahantu bisa nk'aho hakorerwa ubucuruzi ni ku muhanda ariko buri gicuruzwa gisa nk'aho kiri ku murongo kandi hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imyenda, ibitoki, imbuto ndetse hari n'abantu benshi.

Mu masaha ya nijoro ahantu mu ka bare harimo intebe hakabamo n'umuseriveri umwe uhagazemo bisa nkaho babuze abakiriya.

Igare ripakiye cyane rikaba ripakiye ibitoki inyuma yaryo hari undi munyonzi uhetse umugore bisa nkaho uwo umugore ashobora kuba ariwe nyiri ibyo bitoki biri ku igare rya mbere.

Turabona umuntu yicaye kuri moto ari mu muhanda rwagati, nta mugenzi ahetse ariko ikigaragara cyo akora ikimotari kubera yuko afite kasike ebyiri.

Turabona umumotari uri kuri moto uri kugenda hafi ye hakaba hari undi mumotari uhagaze munsi y'umutaka waMTN bisa nkaho bari mu gikorwa n'ubundi cyo gutwara abagenzi babavana hamwe babageza ahandi.

Umumotari ahetse umukobwa, bari mu muhanda wa kaburimbo, bisa nkaho ari kumukura ahantu hamweari kumujyana ahandi rwose muburyo buboneye.

Mu masaha ya nijoro ahantu hasa nk'aho ari mu mujyi ariko urimo amatara hagaragara abamotari babiri bari kuri moto ndetse bari no mu cyerekezo kimwe bisa nk'aho bari kujya ahantu hamwe.

Umumotari mu muhanda rwose aragenda ndetse ahetse n'umugenzi, bigaragara ko amukuye ahantu hamwe akaba amwerekeje ahandi.